Gukingira abana bakiri batoya ni byiza kuko byongera ubudahangarwa bw'umubiri wabo, bigatuma bazabasha guhangana n'indwara zitandukanye harimo igituntu, kokorije, akaniga, agakwega, imbasa ndetse n'iseru kandi bakanabapima imikurire yabo, ibiro, uburebure kugira ngo hatazagira umwana ugwingira.

Uburezi ni inkingi y'iterambere. Ni byiza ko buri mwana wese uvutse ajyanwa ku ishuri, akigishwa gusoma no kwandika, ndetse akaboneraho n'amahirwe yo gukurikira inzozi ze, bityo bikazatuma agira icyo yimarira, akanatanga umusanzu mu kubaka igihugu cye mu iterambere. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, ni ahazaza h'u Rwanda.

Abaturage batowe guhagararira abandi, bagomba guhabwa amahugurwa kugira ngo basobanurirwe neza inshingano bahawe uburyo bazazikora, ibibazo bazahura na byo n'uko bazabikemura, ibi bituma bumva ko atari umuzigo bahawe ahubwo kuba baratowe ari icyizere bagiriwe bigatuma biteza imbere, bagateza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu bitababereye umutwaro.

Amata ni kimwe mu bikomoka ku matungo by'ingenzi mu buzima bwa buri munsi, ashobora guhabwa umwana nk'imfashabere akamurinda kugira ibibazo mu mikurire: harimo kugwingira, imirire mibi ndetse no kurwara bwaki; bigatuma umwana akura mu gihagararo ndetse agakura no mu bwonko.

Hari abaturage batuye ahantu kubona amazi meza bigoye nk'ay'isoko cyangwa yatunganyijwe n'inganda, bigatuma bajya kuvomayo mu biyaga, mu nzuzi n'imigezi, bakayakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bayanywa, bayuhira imyaka, bayameshesha ndetse bayakoresha n'amasuku yo mu nzu.

Isuku ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, koza neza ibikoresho twifashisha mu gikoni ndetse no mu gihe cy'amafunguro ni iby'ingenzi, iyo umaze kubyoza ukabyanika ku kazuba, bituma mikorobe zipfa, ndetse ntihagire n'udukoko dufataho, kuko ibitambaro bakoreshaga mu kuyahanagura, biteramo imyanda ndetse bikaba byakongeramo na mikorobe.

Umushinga Mpuzamahanga wita ku bana mu ndimi z'amahanga UNICEF, wita ku burenganzira bw'umwana, hari abo mu miryango ikennye baba batabasha kubona nk'ibikoresho by'ishuri ndetse n'ibigendanye n'imikino, wita ku bafite ibibazo byo mu mutwe, ku badafite aho kuba, ku badahabwa uburenganzira mu muryango ndetse n'abadafite imiryango babamo.

Umurwayi wo mu mutwe n'umuntu nkatwe si byiza kumuha akato, ahubwo n'ukumusanga aho yigunze tukamujyana kwa muganga bakabasha kumwitaho by'umwihariko bamuvura indwara afite z'inyuma ku ruhu, bakamugira inama kandi bagatuma ibitekerezo bye bigaruka ku murongo, ni byiza kumwubaha kumukunda kuko afite uburenganzira nk'ubw'abandi.

Mu buzima bwa buri munsi, duhura n'ingorane zitandukanye. Hari ibiza kubera amahitamo yacu mabi ndetse hakaba n'ibiza bitugwiririye. Ni byiza ko iyo wagize ikintu gitsikamira amarangamutima yawe, ureba umuntu wizeye ukamuganiriza ibyawe, na we akagutega amatwi, kugira ngo agufashe gukira ibikomere ndetse no kubohoka.

Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane, yahitanye abatutsi benshi basaga miliyoni. Ni inshingano za buri munyarwanda kujya ku rwibutso aho imibiri yabo iruhukiye, tukabibuka, tukabunamira ndetse tukabasubiza agaciro bambuwe. Ni byiza ko buri munyarwanda wese aho ari, aharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi.

Ibarurishamibare ku bapfa biyahuye mu Rwanda. Kuva mu bihumbi bibiri na kabiri kugera mu bihumbi bibiri na gatandatu bari hagati ya cumi na kane n'umunani ku ijana. Kuva ibihumbi bibiri na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bari hagati y'umunani na kane ku ijana.

Twakoze inama cyangwa amahugurwa ni ngombwa gufata ifoto kugira ngo tugaragaze ibyo twakoze, aho twabikoreye ndetse n'abo twari turi kumwe. Ibi bifasha itangazamakuru mu kugaragaza aho Igihugu kigeze mu iterambere, haba abari mu Gihugu ndetse n'abari hanze bakamenya ibyabereye aho hantu, kandi bigatuma uzabasha gukurikirana ibyo aribyo azabaza abo babikoze ngo kuri ya tariki wa munsi twababonye muri muri ibi.

Indwara yo mu mutwe ni indwara ifata imitekerereze ya muntu igatuma ubwonko bwe buvangirwa mu mikorere, ishobora guterwa n'ibintu byinshi hari kunywa ibiyobyabwenge byinshi, kunanirwa kwakira ibyakubayeho, konswa n'umubyeyi ufite iyo ndwara mu gihe wari ukiri mutoya, bi bitera umuntu kwiyanga akiburira urukundo akajya akora ibije mu mutwe ntabe akiyitaho kandi no kumwitaho biragoye.

Sida ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye hagati y'uyirwaye n'utayirwaye. Ni byiza gukora ubukangurambaga mu rubyiruko, mu kuyirinda no kuyipimisha, rukagirwa inama mu gukoresha agakingirizo igihe rugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo batari barushinga. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu n'ahazaza h'u Rwanda.

Igituntu ni indwara yo mu buhumekero yandura kandi ihitana abayirwaye igihe batayivuje; twihutire kwisuzumisha igituntu, uwo basanze ayirwaye akurikiza amabwiriza ya muganga, utarayirwara arusheho gukaza ingamba zo kwirinda, abe ijisho rya mugenzi we ku ugaragaje ibimenyetso byayo, kuko iravurwa igakira.

Ibitaro bikuru bya Butaro byakira abarwayi barwaye kanseri, bakitabwaho ku buryo bw'umwihariko, bafashwa mu kubonerwa imiti ibagabanyiriza ububabare, kuvurwa aho kanseri itari yagera ku kigero cyo hejuru babashiririza cyangwa babaga aho yafashe, kandi n'abarembye bahabwa imiti ibagabanyiriza ububabare kugira ngo iminsi yisunike.

Ubuvuzi ku bana ni ikintu cy'ingenzi, ni byiza ko iyo barwaye tugomba kubereka urukundo, tukabagaragariza ko duhari, tukagerageza gukora ibibanezeza kugira ngo babone ko bitaweho kandi hari umuntu ubari hafi, biba byiza iyo tuberetse ko ahazaza h'igihugu hari mu biganza byabo, tukabazamurira icyizere ndetse tukabaha n'amahirwe yo gukora.

Ku kigo nderabuzima ni ahantu abaturage baba bivuriza kandi kuhagera bitabagoye, baba bavura indwara z'imbere mu mubiri twavuga nka malariya bakavura indwara z'inyuma ku ruhu, twavuga ibikomere ndetse n'ubuheri baba bakingira indwara zitandukanye harimo indwara zitandura urugero nka sida, bagatanga serivisi zo kuboneza urubyaro, ndetse bagafasha n'ababyeyi mu kwibaruka.

Kunywa amazi ni byiza bifasha umubiri wacu kuruhuka, bikongera imbaraga ndetse bigatuma umuntu uyanyweye agira akanyamuneza. Bibaye byiza wajya uyanywa ubyutse kuko bituma wirirwana imbaraga n'imbaduko mu byo uri gukora. Amazi afasha mu rwungano ngogozi, agatuma umuntu atagira umunaniro ukabije kandi akarinda kugira umwuma mu mubiri.

Hari imyitozo ngororamubiri yo kwinanura twavuga guhagarara ugahina ivi rimwe. Guhagarara wemye ukarambura amaboko imbere, guhagarara wemye watandukanyije amaguru ugashyira amaboko ku mpande ariko wayarambuye. Gusutama ugashyira amaboko imbere bifasha umubiri kuruhuka.

Umubiri w'umuntu ugizwe na mirongo itandatu ku ijana by'amazi. Kunywa amazi meza ni byiza, bituma umuntu akiri umunaniro, wayanywa mu gitondo ukirirwana akanyamuneza, afasha mu igogorwa ry'ibiryo kandi agatuma umuntu akira umutwe. Ni byiza kuyanywa nk'igihe uvuye mu myitozo ngororamubiri kuko umubiri uba watakaje menshi, ukeneye andi.

Ubuvuzi bw'igihimba, imikaya ndetse n'imyakura n'imijyana byo mu mubiri wacu mu ndimi z'amahanga bita fisizoterapi, ni ubuvuzi bukorwa ku muntu warwaye rubagimpande, k'uwahinamiranye ndetse n'utabasha kugenda aho abaganga b'inzobere bamukanda bagasubiza umubiri we ku murongo bakamwigisha kugenda ndetse bakamukoresha n'imyitozo ngororamubiri akongera agasubirana.

Iyo wakomeretse ni byiza gupfuka igikomere kugira ngo amaraso ahagarare kuva, ndetse ukirinde kujyamo n'umwanda. Kandi ukihutira kujya kwa muganga, bakagushyiriramo imiti yumisha igisebe, ikurinda kuba wagira ibibazo bya kanseri, nk'igihe wakomerekejwe n'icyuma cyari gifite umugesi, kandi bigatuma uruguma rwuma vuba rugasubirana.

Ni byiza kunywa amazi igihe uvuye muri siporo cyangwa igihe ufite inyota. Amazi yongera akanyamuneza, aruhura umubiri kandi agatuma amaraso atembera neza mu mubiri. Amazi yifashishwa mu kuhira ibihingwa, mu gukora amasuku ndetse no mu kuyatekesha.

Mu mafunguro dufata buri munsi hagomba kuba harimo ibirinda indwara. Twavugamo nk'imineke, pome, ibinyomoro ndetse n'amacunga, biba bikungahaye kuri vitamine A irinda ubuhumyi, ibyo akaba ari ubwoko bw'imbuto. Hari kokumbure ndetse na borokori ziba zikungahaye kuri vitamin K ituma uruhu rukomeza kumera neza kandi igakomeza amagufa, aha ni mu bwoko bw'imboga.

Iyo dukora siporo umubiri wacu utakaza amazi menshi iyo uri guhumeka, kuko aba asohoka mu byuya, ni byiza kongera kunywa ayandi igihe umaze kuzikora, kugira ngo umubiri wawe we kumagara kandi wongere wisubize ayo watakaje, uba ugomba kuyanywa kugira ngo ugire akanyamuneza kandi ugire imbaraga.

Abaganga ni abantu b'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo wahuye n'uburwayi urabasanga muganga akagusuzuma, akakuvura, akaguha imiti kugira ngo ubashe gukira, kandi akaguha n'amabwiriza uzakurikiza igihe uri kuyinywa. Iyo wahuye n'ibibazo bitandukanye urugero nk'ibyo mu mitekerereze ubuzima bwo mu mutwe bwangiritse, bakugira inama kandi bakagufasha gukira ibikomere, ndetse bakagusubiza mu buzima busanzwe.

Umwuka mwiza duhumeka uturuka mu biti, cyangwa se ibindi bimera, ni byiza ko buri wese aho atuye yagerageza gutera ibiti bizajya bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, si ngombwa ko aba abafite ubutaka ushobora no gukoresha ibikoresho byashaje urugero nk'amapine y'imodoka, ibijerekani ndetse n'indobo icyangombwa ni uko ugira igiti kandi ukagira akayaga keza kuko binakurura imvu.

Umuravumba ni icyatsi kifashishwa mu buvuzi kamere mu kuvura indwara zitandukanye harimo: inkorora, ibicurane, mu muhogo ndetse n'izindi ndwara zifata mu myanya y'ubuhumekero, ushobora kugikoresha nk'umutobe cyangwa se bakagikoresha nk'ifu kimaze iminsi.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni bwiza ku bahinzi kuko baba bahinze igihingwa kimwe ahantu hanini bigatuma babona ibikorwa by'amajyambere ku buryo bwihuse, urugero nko kubona imashini zifashishwa mu guhinga, mu gutera ifumbire mu gutera imiti ndetse no mu gusarura. bigatuma bafashwa kubona amazi yo kuhira bitagoranye kuko baba ari benshi kandi bazayakoresha igihe kirekire bakabona umusaruro uhagije bagasagurira isoko.